Hari umuntu ubona ubabajwe n'uko yahombye bitewe n'ubucuruzi akora, handitseho ngo ufite impungenge z'ibihombo mu bucuruzi bwawe, hari twandikire kuri Whatsapp, wabaha nimero, duhamagare kuri makumyabiri makumyabiri n'umunani.

Hari serivisi ya leta, hari icyapa cyanditseho RSSB kuba yujuje imyaka mirongwitandatu, hariho umuntu, hari itangazo rivuga ugatanga ikemezo cy'amavuko, ikemezo cy'uko usaba ariho, ikemezo cy'irangiza ry'akazi, ikemezo cy'indangamuntu, nomero ya konti ye bwite.

Icyapa kinini kiriho abantu babiri, gikoreshwa mu kwamamaza serivisi z'ubwishingizi, cyanditseho ngo aho ugomba kuba uri.

Ifoto yanditseho inama y'umunsi. Inzitiro ku matungo, shyiraho uruzitiro rukomeye kandi rukwiye hose kugirango urinde amatungo yawe kuzerera cyangwa guhura n'ibintu byayangiza. Genzura buri gihe uruzitiro unarusane mu gihe rwangiritse. Ubwishingizi bw'uruzitiro, nibyo byanditse ku ifoto.

Hari icyapa cyanditseho lion assurance is now part of sanlam, hari n'ibindi byapa bigaragaza ibintu runaka, hari abantu benshi bari kugenda, hari amatara yo ku muhanda, hari etage zubatse, hari imodoka nyinshi n'ibyapa byo ku muhanda.

Serivisi ya leta itanga ubufasha kumva abakoze impanuka. Uhamagara ibihumbi icyenda ukamenyesha aho wakoreye impanuka, handitseho ngo wihangayika ohereza ibisabwa byo kumenyesha impanuka igihe cyose aho waba uri hose, harimo umuntu ufashe telefoni mu ntoki wambaye rinete uri kwamamaza.

Umuntu w'umukobwa wicaye ahantu ameze nk'uri kuruhuka, wasobekeranije amaguru, wambaye ipantaro y'umukara, muri make yambaye imyenda ya siporo, hari cyapa cyanditseho "uyu munsi ubuharirire kwiyitaho no kuruhuka" ari kuruhuka amedita.

Kwamamaza ubwishingizi mu kwivuza, harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite ikirango cyanditseho "ntukagire impungenge mu gihe cyo kwivuza, ubwishingizi bwo kwivuza ramba na Buritamu ni cyo bubereyeho." Hitamo ramba na Buritamu, ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse. Bari kwamamaza ubwishingizi.

Hari icyapa gishushanyijeho inka, inkoko, ingurube, kiri gushishikariza aborozi kogera ubwishingizi bw'amatungo, ni gahunda ya Leta yo kwishinganisha kugira ngo inka nizigira ikibazo cyangwa se n'ibindi bikorwa bijyanye n'ubworozi.

Apurikasiyo ya banki yerekana akawunti zababitsamo undi yabikijemo ibihumbi icumi undi igihumbi undi ibihumbi makumyabiri nabitanu mu kwacumi nabiri ku itariki makumyabiri nenye no kuri makumyabiri neshatu.

Urubuga rwa banki rugaragaza ko bazigamye hariho icyapa yanditse ngo Zigama Css mobiro. Hano ni ukwizigamira ukoresheje ikoranabuhanga hariho toto loni icumi, toto peyimenti plani, nyine iyi ni incamake y'ibikorwa byagiye biba.

Iyi ni konti ya banki igaragaza uko amafaranga yagiye kuri akawunti, namba ni iriya, izina rya konti, agicowa baranse amafaranga aba yasigaye n'amafaranga yabikujwe.

Urupapuro rwo muri porogaramu ya telefoni, rufasha gukora taransiferi y'amafaranga ukoresheje nimero ya telefoni. Hari ibintu bitandukanye byateguwe kugira ngo byorohereze umuntu bukora iyi taransifa, harimo aho umuntu ashobora guhitamo uburyo bwo kohereza amafaranga.

Butike cyangwa se inzu y ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye harimo imyenda y'amakote, imipira, ingofero.

Hari butike cyangwa se inzu y'ubucuruzi icuruza ibitenge by'amoko atandukanye, bifite amabara atandukanye, bimwe biramanitse ibindi birazinze, bifite amabara meza.

Hari iduka ry'amavuta y'ubwoko butandukanye, isabune, parufe, hari gerave, mbese ni butike, cyangwa inzu y'ubucuruzi, bucuruza ibintu bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi izwiho nka butike, harimo umwana uri gukoresha telefoni, hariho umunzani uteretseho ibintu uri gupima, bacuruza imyenda, imipira ndetse n'ibindi bindi bitandukanye bacuruza n'utundi dukoresho.

Hari butike cyangwa se inzu y'ubucuruzi isa neza, icururiza onorayini, iyi ni ifoto, iyi bafatishije telefoni, icuruza marete cyangwa se utubage tw'abamama.

Butike cyangwa se inzu y'ubucuruzi, icururizwamo imyenda y'ubwoko butandukanye, harimo amashati y'ubwoko bwose cyangwa se amabara menshi, amanitse ahantu hamwe, harimo ubucuruzi, haza n'abaguzi.

Hari butike cyangwa se inzu y'ubucuruzi, icuruza imyenda yo mu bwoko bw'amashati bw'amabara atandukanye harimo umuhondo, umutuku, icyatsi, igitakazi.

Abantu babiri bari muri butike bari guhererekanya ikintu runaka, hacururizwa imyenda n'ibindi bitandukanye, umwe afite imashini mu ntoki, undi ari kumuhereza telefone, hari ibyapa, hari inyubako nziza.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo inkweto z'ubwoko butandukanye harimo masaye z'udushumi tubiri, iz'udushyumi twinshi, zitondetse neza, zirasa neza, hari abantu bazicuruza.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi izwiho nka butike, icuruza ibintu bitandukanye, harimo imyenda, utundi dukoresho two mu rugo, harimo umuntu, harimo ururabyo, harimo teveri n'utubage.

Ahantu haparitse imodoka nyinshi zifite ibara rimwe ry'umweru, n'umukara, hari ibiti, hari inzu ya etaje ifite ibara ry'umuhondo, hari amatara yo ku muhanda...

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota hayiranda hayiburidi yo muri bibiri na cumi na kabiri y’umukara, iparitse ahantu muri parikingi, iri ku mafaranga miliyoni makumyabiri n’eshanu.

Imodoka nyinshi ziparitse ahantu hamwe, zifite ibara ry'umweru n'umukara, zigurishwa nubwo batabigaragaje, haruguru hari ibiti hari n'inyubako.

Imodoka yanditseho Kigali cars market igurishwa ku giciro cya miliyoni cumi n'ebyiribiri bibiri na makumyabiri na kane ku mpande hari etage icururizwamo.

Hari abantu batatu, babiri muri bo bambaye imipira y'umweru, undi yambaye ipantaro y'umukara, bafite utubaga dufite ibara ry'umutuku, bafite icyapa cyanditseho abege, hari imodoka iparitse ku muhanda n'icyapa cyanditseho benzi cyangwa se fuso.

Imodoka iparitse iriho icyapa cyanditseho Kigali kari manajimenti igurishwa ku giciro cya miliyoni mirongo itatu na zirindwi ya muri bibiri na makumyabiri na kane ya Toyota.

Imodoka nshyashya igifunitse itarakoreshwa na rimwe, bari kuyamamaza, ibiciro nubwo bitagaragajwe ariko iragurishwa, ni nziza imeze neza, intebe zayo zimeze neza mbese ni nshyashya cyane.

Hari ahantu hari abantu batatu, bafite ibyapa bari kwamamaza handitseho eyibiji Akagera motozi, haparitse imodoka, hari inyubako ndende ya etaje, harimo ibirahuri, hari ibiti.

Imodoka nyinshi ziri muri parikingi imwe yanditseho Kigali kari maketi, amayetaje, imisozi, umuhanda, umunara, ikirere n'ibindi.

Ni banki ikorerwamo ibintu runaka yitwa Gity banke, bari kuyamamaza hari abantu benshi harimo abakozi n'abahabwa serivisi, bamwe muri bo baricaye hari icyapa cyanditseho ngo wohereze amafaranga kuri konti za Gity banki n'izindi banki.

Abantu batandukanye bagiye gushaka serivisi runaka, umwe afite icupa ririmo amazi, yegereye inyubako, hari ibipirizo hejuru bifite amabara atandukanye, hakozwe n'amabara atandukanye, harimo ibibirahuri.

Ahantu hatangirwa serivisi za banke ya Kigali harimo abakozi babiri bicaye ku ntebe z'umukara bafite amamashini y'ubwoko bwa HP bari mu kazi, hariho n'aho ibikoresho bya eregitoronike bitandukanye n'amatara.

Aha ni ahantu ho muri banke, batanga amafaranga, bakanabitsa, bakanabikura, harimo umukozi wa banke, harimo umuturage uri kubitsa, hari utanga serivisi, hari umutekano.

Hari ahantu ho kurira, hari intebe zo kwicaraho uri kurya, hari ameza ateguye neza afite ibara ryiza, hari isahani iriho irindazi na suveseri, hari isahani ifite amabara meza.

Aha hantu hacururizwa ibikomoka ku matungo harimo amata, hari amaji y'inyange, hari amandazi, imigati, irimo amakaro hari umuguzi n'umugurisha.

Hari agacupa ka yogati cyangwa se amata ya Mukamira, afite ibara ry'umukara n'umweru, hashushanyijeho inkeri ifite amagarama magana abiri na mirongo itanu, iyi yogati ikorwa muri sitorowu beri, hari umuntu uyifashe.

Hari abantu batatu babiri muri bo bambaye umupira ufite ibara ry'umutuku, bafashe ibikombe mu ntoki bari kwamamaza, amata na ji bya Mukamira, inzu y'ubucuruzi cyangwa se y'amata yakorewe mu nganda.

Hari ahantu bacuruza amata, hari umucuruzi, hariru umuguzi, hari intebe, hari ameza ateguye neza, hari igikombe giteretseho amata, hari igikombe kirimo amata, hateretse n'ibindi byo kuyanywesha, hari firigo, hari umuntu uri kwishyura, mbese aha ni ahantu ho kwiyakirira.

Uko mobayiro mani ikora cyangwa se ikoranabuhanga kwishyura amafaranga kwishyura serivisi zitandukanye kugura mayinite ukoresha momo peyi serivisi za banki gufata inguzanyo kureba konti yawe ushake ubufasha na poromosiyo.

Urubuga rwo kwishyuriraho handitse injira muri konti yawe, kanda kuri mo maze ukande kuri birizi ni ibintu byo kwishyuriraho, uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, harimo kirisitiyani irebero hiri.

Urubuga rwo kwishyuriraho rwanditseho zigama itangira ry'abanyeshuri, tangira umwaka mushya w'amashuri mu mahoro, izigamiwe nka sipani supa seva guhera none, bari kwamamariza ikoranabuhanga runaka ridufasha kuzigamira abanyeshuri cyangwa se amafaranga yo kwishyurira minerivali y'abana.

Kwishyura ukoresheje telefoni, hari telefoni, hari umuntu uyifashe, bari kwamamaza uburyo ikoramo, uko wakoresha telefoni mu bucuruzi, uko wakoresha telefoni wishyura kuri momo payi.

Kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, ukoresheje telefone igendanwa, harimo kohereza amafaranga, kugura ama inite, kwishyura ibintu, serivisi z'amabanki, mobayilo mani akawunti, umutekano, ubufasha...

Abantu babiri umwe muri bo yambaye umupira w'umuhondo, bari kwamamaza ikoranabuhanga rya MTN cyangwa se uko wakoresha mobayiro mani cyangwa ubundi buryo bwa MTN, umwe muri bo afite igikarito mu ntoki.

Icyemezo kigaragaza ko nta misoro urimo, cyo ku itariki cumi n'enye z'ukwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu, kugera ku itariki cumi n'eshatu z'ukwa cumi na kumwe bibiri na makumyabiri na gatatu cy'ikigo gishinzwe imisoro na mahoro, ni ku biro by'u Rwanda, kiriho kashi...

Icyemezo cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Reveni Otoriti cyatanzwe ku itariki cumi n'ebyiri z'ukwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu, kizarangira ku itariki cumi n'imwe z'ukwa cumi na kumwe bibiri na makumyabiri na gatatu, cyemeza ko uyu muntu atarimo umwenda w'umusoro.

Amafaranga y'amanyamahanga arimo inote ya mirongo itanu y'amayero, harimo iy'ijana, harimo iza makumyabiri eshatu, harimo iy'ijana, harimo n'iya mirongo itatu, hariho umuntu uyafashe wambaye ikote ry'umukara cyangwa se umwenda w'umukara.

Hari amafaranga y'inote y'ibihumbi makumyabiri akorerwa muri Kongo ariho impala ebyiri, hariho ikibumbano handitseho amagambo ngo vemiri furansi cyangwa se ibihumbi magana abiri.

Hari amafaranga y'ubwoko butandukanye harimo inote za bitanu n'izindi note z'ijana n'izindi noti ntari kubona uko zimeze hari n'umuntu uri kuyabara uyafashe.

Aho bagurishiriza amafaranga make cyangwa se bavunjishiriza amafaranga y'ubwoko butandukanye y'amamahanga harimo ibiceri, inote, iz'igihumbi, iza magana atanu, iz'ibihumbi cumi n'ibindi bitandukanye.

Ibiro by'abanyamahanga bihinduranya amafaranga cyangwa imivunja amafaranga. Hari abantu bari kuyamamaza, hari icyapa cyanditse "vigictoria forex". Hari abantu bane.

Ahantu hasa neza, inyubako isa neza, yubakishije amakaro. Harimo televiziyo, harimo intebe, hari hateguye neza, indabyo, hari ibibumbano by'umuco nyarwanda, harimo amarembo meza, harasa neza.

Hari intebe zisa neza zifite amabara atandukanye, zifite imifariso ziriho ameza, hari umuntu wicaye ari kuzicuruza hari utubati, hari inyubako, hari igiti.

Hari ahantu habi ibikoresho byo mu rugo by'bwoko butandukanye, harimo: utubati, hari intebe z'ubwoko bwinshi, ziri mu nzu nziza, hari ameza, hari n'utubati dukozwe mu biti.

Hari ibikoresho byiza bikenerwa mu rugo, harimo ameza, harimo intebe zimeze neza zimwe bita amadive, hari utubati, hari inzu zifite inzugi z'ibara ry'ubururu, hari umuntu, barazicuruza.

Saro cyangwa se icyumba cyo kuganiriramo, cyo kwakiramo abashyitsi, giteguye neza, harimo intebe nziza, harimo inzu, wagira ngo irakodeshwa, harasa neza, iyikeneye wabaza, harimo ibikoresho bitandukanye.

Ahantu hateguye neza ni ibikoresho byo mu rugo bimeze neza, hari intebe z'ubwoko bumwe zisa neza, ibara ry'umukara, hateguye ameza y'ibirahuri, hateretseho udukombe.

Ibikoresho byo mu rugo nk'ameza, intebe, n'ibindi bitandukanye, harateguye neza wagira ngo bagiye kuhafatira ifunguro, harasa neza, hafite isuku, ibi bikoresho biragurishwa.

Ahantu heza hateguye ameza meza maremare, hari amacupa y'amazi ateretse ku meza, hari intebe nziza z'abayobozi, hari ikirango cya Equity, hariho ekara, ahantu mbese ni icyumba cyo gukoreramo inama, sale.

Inzu nziza isa neza cyane birenze ikikijwe na majaride harimo indabyo z'ubwoko butandukanye, harimo ibiti by'imbuto imeze neza ya etaje iriho icyapa cyanditseho Saint famille ni heza cyane.

Inyubako nziza iri ku muhanda ikikijwe n'ibiti, hari amatara yo ku muhanda meza ari kwaka, hari imodoka ziri kuhande izwiho nka hoteri, ni inyubako ya etaje ndende nziza aho abantu basohokera.

Hari ahantu hateguye neza hari indabyo zitandukanye z'amoko menshi hari intebe z'umukara zimeze neza zegereye amatebo cyangwa se imeza hari ibipangu cyangwa se uruzitiro hari utwatsi tumeze neza.

Ahantu heza ho muri hoteri, hari jaride imeze neza indabyo z'ubwoko butandukanye, hari inzu y'amarangi ameze neza afite amabara atandukanye, ikurura abantu bajya kuhasura, bajya kuhiyakirira ndetse banahasohokera.

Hoteri imeze neza, iteguye neza, harimo intebe ndende, imifariso ifite rido nziza, ifite inzugi z'ibirahure, ikikijwe na jaride, irimo ameza ateguye neza ariho agacupa k'inda.

Ahantu heza hasa neza hari inyubako zimeze neza, hari ahanyu ho kuruhukira, hari ahantu ho kogera mu gihe ushyushye hazwi nka pisine, hasa neza, hari amazi, hari abantu, hari imitaka ibatwikira izuba mu gihe bari kwiyakira mbese ni nka hoteri, ni hoteri.

Hari inzu isa neza ifite amabara meza, hari irangi ryiza, hari ibiti, ifite jaride cyangwa se indabo, iratatse, hari amatara yubakishije ibirahuri, ni etaje, irasa neza.

Hari hoteli isa neza ifite intebe nziza z'ubwoko butandukanye hariho ibinyobwa by'ubwoko butandukanye, hariho ibiribwa byinshi biri ahantu heza, hari jaride, hari aho kwiyakirira, hari ibiti bitanga amahumbezi.

Inyubako nziza, imeze neza, iteguye neza ni hoteri, hari ahantu biyakirira, hari intebe zegereye ameza ziri mu ibara rimwe zo mu bwoko bumwe, ku meza hateretse amacupa y'amazi.

Ahantu hasa neza, hari amazi yo kogeramo azwi nka pisine, hariho indabyo, hariho intebe, hari imitaka itwikiriye intebe, ni aho abantu bicara, hariho akayira n'ibindi.

Hoteli iri ahantu hatandukanye heza abakiriya bicaraho bagiye kwiyakira, hariho intebe z'umuhondo, harimo jaride haba hatwikiriye, hari ibiti n'indabo hari n'uduhanda tugenda tuberekeza aho bagiye kwicara.

Ahantu hateguye neza, hari intebe zisa z'umukara, hari ameza asa neza, hari icyapa cya saniramu, ni sale iberamo inama y'abayobozi cyangwa se ibiganiro runaka.

Hari imashini nini cyane. Hari umuntu uhari. Ni mu nzu imeze neza, ifite isuku. Hari aho gucaginga mashini. Hari imigozi, hari ibara ry'umukara.

Hari umuhanda, hari inyubako nziza zama etaje zitandukanye, nyinshi hari amashanyarazi. Ni ahantu ho gutura heza hari imodoka ziparitse ku muhanda hari umucaca hari indaba,

Icyapa cya MTN cyamamaza momo na mokashi ngo bari gutanga poromosiyo z'amafaranga miliyoni eshanu ku kwezi, ngo gerageza amahirwe ukande akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri cumi na gatatu urwego.

Inzu ifite amabara atandukanye meza, harimo umweru, ubururu yanditseho ibyapa hariho na buranshi y'ikintu runaka hari aho bacururiza imyenda, hari aho batangira inguzanyo.

Ahantu heza hateguye neza, hari intebe nziza, hari ibirango cyangwa se ibishishyu cyangwa se imitako ya noheri, harasa neza batanga serivisi, batanga inguzanyo, no muri banki runaka.

Iki ni ikigo gitanga inguzanyo giherereye mu Rwanda, i Muhanga hari abaje gufata inguzanyo, hari batanga serivisi, hari uri kubasobanurira, abakozi bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, batanga inguzanyo ku buhinzi.

Isoko ry'imbuto z'ubwoko bwinshi, harimo amaronji, pome, imineke, inanasi, ibinyomoro, amatunda, harimo abacuruzi, harimo abaguzi, harimo n'ibindi n'amapapayi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibibiriganya, harimo amafu y'ubwoko butandukanye, harimo ibigori, umuceri, soya, karoti, harimo abaguzi n'abagurisha.

Isoko ryubakiye, ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo abaguzi, abagurisha, harimo abantu bacuruza amavuta yo kwisiga, ayo kurya, ga cyangwa se ibikoresho by'isuku n'ibindi bitandukanye.

Isoko ry'inyanya, harimo insenda, intoryi, imboga nyine zitandukanye, abantu benshi bava hirya no hino baza kugura, hari imifuka iteretse, hari amabase, hari umuhanda...

Hari isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imbuto y'ubwoko bw'amaronji cyangwa se amacunga, harimo abaguzi, abagurisha, harimo ibinyabijumba nk'umwumbati, hari umuntu uri gutanga fagitire.

Isoko ry'imbuto harimo amapapayi, inyanya, imineke, pavuro, ibihaza, avoka, ubunyobwa harimo n'umuntu ubicuruza wambaye amaherena.

Isoko ry'ibintu bitandukanye by'umuco nyarwanda, harimo ibyibo, harimo uduseke, harimo ibintu bitandukanye by'umuco nyarwanda, harimo utubage.

Hari isoko ry'imboga, ubwoko bw'imboga bwinshi burimo imbuto cyangwa se inyanya, pavuro, imiteja, amashu, ibihaza, hari umucuruzi, hariho n'amakaroni, hari amavuta n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Abantu benshi cyane bari ahantu hamwe bari gushaka serivisi runaka ku isoko, bari guhaha isoko rya etaje, hariho inzu zifite amabara atandukanye nyinshi, hariho amashanyarazi, hariho n'ibyapa byamamaza ibintu runaka bikorerwa aho.

Inyubako nziza ya etaje iteye neza, imeze neza, iparitse imodoka nyinshi, ku ruhande hariho abantu benshi, ni isoko rikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye.

Isoko ricuruza imyambaro y'abagore harimo ibitenge bi harimo ubwoko bwinshi harimo ibitenge bya superi ogisi, londoni n'ibindi bitandukanye by'amabara atandukanye.

Isoko ririmo abantu benshi, umwe muri bo yambaye ikote ry'ubururu, hari amapantaro acuruzwa, hari imipira y'ubwoko butandukanye, hari abagurisha n'abaguzi, harimo n'umwenda ufite ibara ry'umutuku.

Isoko ricuruza ibintu bitandukanye harimo ibinyabijumba mu bwoko imyumbati, ibijumba hari abacuruza utubage hariba abacuruza imyenda, hari imodoka ziparitse hari abaguzi, hari abagurisha.

Isoko ry'imboga n'imbuto, harimo inyanya, karoti, intoryi, ibirungo bitandukanye harimo sositomate, harimo imboga rwatsi harimo nka dodo, hari abacuruzi, hari abaguzi.

Ibikorwaremezo nk'isoko, inyubako, amatara yo ku muhanda, ibyapa, abantu benshi bagiye guhaha, abacuruzi, ibyapa by'amabanki, inzu ya etaje n'imodoka.

Isoko ririmo abaguzi n'abagurisha harimo ubwoko bw'ibicuruzwa harimo, inyanya, urusenda, puwavuro, ibitungururu, harimo ibyapa bya Emutiyeni.

Isoko ririmo ibitoki, abantu benshi, ibicuruzwabyinshi bitandukanye, ibyapa inyubako, insinga z'amashanyarazi, amabase, intebe, imyenda, abantu bambaye imyenda y'umuhondo baje guhaha.

Isoko harimo abantu benshi batandukanye bamwe bari kuzamuka kuri esikariyeri abandi bari kugura ibintu bitandukanye harimo imyenda, harimo ibikapu, harimo abantu bahetse ibikapu, harimo abicaye ni etage...

Iri ni isoko ry'imbuto harimo avoka, amaronji, indimu, imineke, inanasi, amapapayi, ibinyomoro, amatunda, wota meloni, abaguzi, abagurisha n'ibindi byinshi pome,,,

Isoko ry'ibintu bitandukanye bifite amabara meza, hari abantu benshi, abaguzi n'abagurisha, hari mu bwoko bw'ibicuruzwa harimo ibitoki, amashaza, intoryi, insenda z'amabara atandukanye n'ibindi.

Isoko ry'imbuto, harimo amaronji, avoka, inyanya, ibitoki n'ibindi byinshi, umuntu ari gucuruza abandi bakaza guhaha.

Akazu ka MTN gafite ibara ry'umuhondo, hariho n'amagambo yandikishije amabara y'umutuku n'umukara, hariho umuntu uri gutanga serivise za mobayiro mani cyangwa se za MTN, hari umuntu uri kugura ama inite cyangwa se uri gusaba serivisi.

Icyapa cya emutiyeni cyamaze gukoresha mo momo peyi hariho ngo labu koreresiyonizi hari ikode ( 8-9-6-6-6-8). Hano bari kwamamaza gukoresha momo peyi.

Kwishyura ukoresheje momopey izina ry'umucuruzi ngabonziza jean bosco kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akayenyeri mirongo icyenda makumyabiri nagatanu zeru gatanu nta yandi mafaranga wishyuzwa hano bari kwamamaza gukoresha momopey ikirango cya mtn gifite ibara ry'umuhondo n'ahanditse amazina.

Inzu ya Emutiyeni, yanditseho ngo kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego. Yamamariza Emutiyeni. Ifite ibara ry'umuhondo, iri ahantu ku muhanda, hari ibiti, hari ibyapa byo ku muhanda, hari amatara yo ku muhanda.

Abantu benshi, bamwe bambaye umuhondo, bamamaza MTN mobayiro mani, bari kuri kiyosike, bari guseka, amanitse urutoki afite igare ririho miruwari n'akabage.

icyapa gifite ibara ry'umuhondo cyanyandikishijeho umukara handitseho ngo "shop and pay with MoMo Pay" bari kwamamaza ibikorwa bya MTN hariho batanga na VISA ,mastercard n'ibindi

Hari abantu benshi, bamwe muri bo bambaye imyenda y'imihondo, yamamaza emutiyeni, hari umutaka wa emutiyeni w'umuhondo, hari ibyapa bitandukanye byamamaza emutiyeni, hari ibindi inyuma, biriho business registration, hari abantu bicaye ku ntebe, hari radiyo.

Inzu za Emutiyeni na Eyateli, iya Emutiyeni ifite ibara ry'umuhondo, iya Eyateli ifite ibara ry'umutuku, hariho aba ajenti bakorera Eyateli n'abakorera Emutiyeni, hakabaho n'abakiriya, hano bari gutanga serivisi z'ikoranabuhanga zirimo Eyateli mani na mobayiro mani.

Hari umuntu ufashe telefone wafunguye apulikasiyo ya airtel ifite ibara ry'umutuku arikwamanaza ibikorwa cyagwa service za airtel harimo abantu baggage muri telefone muri apulikasiyo

Akazu ka MTN gafite ibara ry'umuhondo kariho amagambo yandikishije ibara ry'umukara, kariho abantu bari gutanga serivisi n'abari kuza kuzisabak, n'akandi ka Airtel gafite ibara ry'umutuku handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'icyapa.

Abantu batandukanye bamwe muri bo bambaye imyenda y'imihondo igaragaza MTN, imbere yabo ku meza hariho igitabo cyanditse mobayiro mani, hariho mashini bari gufasha ababagana, ndabona ari icyicaro cya MTN.

Onurayini maketi pratifomu ni urubuga ruberaho ubucuruzi mpuzamahanga, Kigali onurayini maketi harimo ibintu bitandukanye umuntu yakwifashisha, hari ibiguri ibihumbi makumyabiri y'amanyarwanda hari ibihuhumbi ijana makumyabiri na bitanu by'amanyarwanda.

Urubuga rukorerwaho ubucuruzi mpuzamahanga bw'ibintu bitandukanye harimo: imbuto, ibiribwa, ibinyobwa, n'ibindi bintu bitandukanye, hariho umuntu n'ibicuruzwa acuruza, ari kwamamaza.

Urubuga rucururizwaho ibintu bitandukanye bya eregitoronike, harimo mobayiro, tabureti cyangwa se telefone, harimo ibikoresho bitandukanye nk'impano z'abana, ingofero, abagore fashoni zabo cyangwa se imyenda bambara, ibikoresho bya siporo, mbese bari kubifuririza umwaka mushya muhire.

Hari umumotari uparitse uretse ikintu cyanitse vuba hari ibara ry'icyatsi hari umuhanda, hari igipangu, hari ibiti hari amazu, hari amatara ku muhanda.

Urubuga rukorerwaho igikorwa cy'ubucuruzi onulayini cyangwa se bukoresheje ikoranabuhanga, hariho imigati iriho icyapa cyanditsemo ngo urwibutso ku giciro cy'amafaranga magana atatu mirongo itanu ngo ugura aka kantu, ni urubuga rufasha ubucuruzi.

Ubucuruzi bukorerwa onurayine, iyi ni apurikasiyo bakoresha bagura, banagurisha ibintu, ya Claude Ntabanganyimana, ngo ni Kigali onurayini maketi, hari gurupe yabo uvuga ibyo ushaka bakabikuzanira.

Uru ni urubuga rucururiza onilayini. Rucuruza ibikoresho bitandukanye harimo udukomo, utugura amafaranga y'abanyarwanda magana atatu mirongo icyenda n'icyenda, n'ibindi bicuruzwa bitandukanye byo hirya no hino biki.

Inzu nziza irimo ibikoresho byo mu rugo cyangwa se muri salo, harimo intebe n'imifariso. Igura amadolari igihumbi magana atanu mu kwezi, iherereye i kigali, Rwanda.

Hari inzu nziza cyane irimo matela, irimo igitanda, irimo ifite rido nziza, ifite irangi ryiza, irimo amakaro, iherereye Kacyiru Kigali tukahabona amadolari igihumbi na magana atanu ku kwezi.

Inzu nziza ifite jaride cyangwa se indabo cyangwa se ubusutani, hari umucaca, hari ibiti bitanga amahumbezi, yubakishije ibirahuri harimo amakaro, iherereye i Kigali Rwanda, ikodeshwa amadolari igihumbi magana atanu ku kwezi.

Inyubako ya etaje ifite igipangu cy'umukara, hariho n'itara, harimo n'amashanyarazi, rikodeshwa amadolari igihumbi n'ijana ku kwezi, iherereye i Kigali, Rwanda, ku ruhande hariho undi muhanda nyabagendwa ifite n'igipangu kiyikikije.

Inzu irimo tuwarete ebyiri zifite ibara ry'umweru, yubakishije amakararo, isa neza, harimo amazi amanura umwanda bashyize muri tuwarete, iherereye Kabeza, Kigali city.

Inzu nziza, imeze neza, irimo ibyumba byinshi, iri mu bwogero bwinshi, iherereye i Kanombe i Kigali siti, igurishwa miliyoni ijana na cumi n'eshanu, iherereye i Kigali mu Rwanda.

Hari inzu nziza irimo ibikoresho, harimo firigo, akabati, irimo amatara, yubakishije amakaro, iherereye Kacyiru Kigali City, irakodeshwa amadolari igihumbi magana atanu ku kwezi, iri mu Rwanda.

Inzu nziza ndende ya etaje, igurishwa amadorari magana inani ku kwezi cyangwa se ikodeshwa amafaranga magana inani y'amadorari, iherereye i Kigali Rwanda yicayeho umuntu, hari indabo n'ibiti ni heza.

Ahantu heza hari inyubako nziza, hari igitanda n'uburiri buriho matera ishashe neza, hari amashuka, hari rido zimeze neza, iherereye Kibagabaga, Kigali city irakodeshwa amadolari igihumbi magana atanu ku kwezi, iri mu Rwanda.

Ahantu hasa neza hari ibikoresho byo mu rugo harimo intebe, ameza ateguye neza, harimo abantu babiri wagira ngo ni intebe zikodeshwa cyangwa se inzu ikodeshwa, umwe ari kwereka undi ubwiza bwaho undi agashima.

Aya ni amerekeze Kacyiru Kigali siti, hari igiti cy'imbuto cy'imyembe, hari ibiti bitandukanye, hari igipangu, hari ibyatsi, hari ibiti, hari amatara yo ku muhanda, hari umuhanda.

Hari inzu nziza ya etaje iherereye Gisozi, Kagugu, i Kigali, ifite jaride ifite igipangu, iri kugurishwa miliyoni mirongo itatu n'eshanu z'amanyarwanda, iri Kigali, Rwanda.

Umuntu wambaye ejire cyangwa se umwenda w'akazi, ari kugenda mu muhanda ari kwamamaza nk'ibintu runaka hari amasambu, hari inzu nyinshi, hari ibiti, hari amatara.

Hari inzu bari kubaka, hariho umwubatsi, hariho umuntu uri kuyijyamo, ku giciro gito, ifite ibyumba bibiri, ifite igisenge cya sikiliyoni dizayini, ibihumbi magana inane niyo yatwaye.

Inyubako nziza, isa neza, nshyashya, ifite amarange meza, ifite igipangu kimeze neza, gifite amabara meza, ikodeshwa ibihumbi magana atatu y'amanyarwanda ku kwezi, haparitse na moto ku ruhande.

Inzu nziza, yubatse neza, ifite amarangi meza akeye, ariho ikidomoro, iherereye i Kigali, i Kanombe, igurishwa miliyoni mirongo inani n'eshanu z'amafaranga y'amanyarwanda.

Hari umuntu uri kwamamaza inzu runaka, ifite ibara ry'umweru ry'amarange, isakaje amabati, ifite amadirisha asa neza cyane n'umuntu wambaye ishati y'umweru arimo aramamaza.

Inyubako ifite igipangu, ikodeshwa ibihumbi magana abiri; harimo jaride, harimo inzugi, amadirishya, insina.

Inyubako nziza isa neza, ifite inzugi zifite amabara meza, ifite amarangi meza, iriho geti imeze neza, iragaragaza umuntu umeze nk'umuntu uri kuyamamaza.

Iyi ni inzu iherereye Kigali, Kibagabaga ya etaje, ifite ubwogero butanu n'ibyumba bitanu, ikodeshwa amadorari igihumbi magana arindwi ku kwezi.

Inzu ya etage ndende imanitse kabiri, nziza iri ahantu heza ifite igipangu, ifite ibyumba bibiri, ifite ubwogero bubiri, irakodeshwa ibihumbi magana atandatu y'amanyarwanda ku kwezi.

Inzu ifite ibikoresho bitandukanye, yubatse ukuntu gutandukanye, utubati, iherereye i Remera, irakodeshwa ifite icyumba kimwe n'ubwogero bumwe, harimo igikoni mo imbere mu nzu.

Inzu nziza ifite jaride cyangwa se indabyo, yubakishije ibirahuri, isa neza nshyashya iri ahantu heza, ifite parikingi z'imodoka ebyiri, iherereye i Kanombe Kigali siti, irakodeshwa cyangwa se iragurishwa ku mafaranga tutazi.

Hari inzu nziza imeze nka hotel hariho intebe ku muryango ikikijwe na gerdein n,ibiti ifite ibyumba bitatu nziza cyane iyo iherereye i kigali rebero ngo wabona amadorari ijana kumunsi.

Kwamamaza inzu ikodeshwa iherereye Kagugu, hafi ya Rubis peteroli siteshoni, ifite ibyumba bibiri, na tuwarete ebyiri, serifu kampawundi, imeze neza, ifite sikariye z'amakaro, ifite geti, ifite....

Inzu nziza, isa neza, yujujwe vuba, igaragara neza; ifite ibyumba bitatu, ifite ubwogero butatu, ifite wadirobe ya buri cyumba ikodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi, iherereye Kimironko kwa Sekimondo.

Inzu ikodeshwa, y'icyumba kimwe na dushe, ku mafaranaga y'amanyarwanda ibihumbi magana abiri, ku kwezi, iherereye i Kigali, Kicukiro, ifite imiryango irimo ibirahuri.

Isoko ry'ibintu bitandukanye, harimo amakote y'imbeho, harimo abantu baje kugura n'abagurisha, hari ibikapu, hari amamarete, hari inkweto...

Isoko ry'ibintu bitandukanye, harimo abantu bagiye kugura, harimo n'abacuruzi, harimo bage, imikandara, inkweto z'ubwoko bwose zitandukanye, hariho umuntu uhetse igikapu.

Inzu y'ubucuruzi, irimo abantu baje kugura ibintu, hariho n'abandi bari kubigurisha, hacururizwa ibintu bitandukanye nk'imyenda, amabage, harimo itara, hari ibyapa byamamaza ibikorwa byaho.

Hari inzu y'ubucuruzi, icuruza ibintu bitandukanye by'ibinyobwa, harimo amaji y'ubwoko bwose, harimo amazi, hari umucuruzi, hari umuguzi, ni inzu isa neza n'ibicuruzwa bisa neza, hari ubwoko nka novida nka tangawizi, bamuhaye juyisi zisanzwe.

Bacuruza ibintu bitandukanye, harimo inkweto z'abamama z'ubwoko bwose, harimo bage, habakabamo imyenda, harimo abaguzi n'abagurisha.

Hari ahantu ho kugura no kugurishirizwa, hari imitaka ya mamaza Airtel iba ifite ibara ry'umutuku handitseho amagambo arimo ibara ry'umweru, hari ibicuruzwa bitandukanye, hari abantu benshi mu nyubako ya etaje.

Ahantu bacururiza hari abaguzi benshi n'abacuruzi hacururiza ibintu bitandukanye hari ibyo kurya, ibyo kwambara nk'imyenda bari mu isoko ryiza harimo amakaro arasa neza.

Isoko ricuruza ibintu bitandukanye, harimo abaguzi n'abagurisha, harimo abantu bambaye amapantalo, hariho abantu bambaye imyenda y'imyeru, basokoje basa neza.

Ahantu cyangwa se isoko ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo sentire, harimo marete z'abagore, harimo inkweto z'abagabo n'iz'abagore, harimo abacuruzi, abaguzi, mbese harasa neza.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibintu bitandukanye, ntabwo biri kugaragara neza ariko wagira ngo harimo ibibiribwa n'ibinyobwa, hari abaguzi, hari abagurisha, harasa neza, harimo amakararo...

Inzu y'ubucuruzi iri kujyamo umukiriya wambaye inkweto zifunze, ipantaro y'umukara, wambaye umupira w'umweru uvanze n'umutuku n'umukara n'abandi barimo imbere bagiye kugura n'abacuruzi, meyini buranshe, buranshe ya supamaketi.

Hari icyapa kiriho abantu babiri, umwe ari mu cyapa, undi ari gutanga ikiganiro runaka, bari kureba ahantu hamwe, bari kwamamaza Ejo Heza, handitseho sitoke asita, bari kuranga nk'ahantu ikiganiro kizabera kiri kwamamaza ejo heza.

Iki ni igikorwa cya leta gikorerwa abaturage, kwizigamira muri ejo heza ni byiza kuko iyo umukozi ageze mu zabukuru utagishoboye gukora uba uri mu nshingano za RSSB bakabukwitaho, bakagusazisha neza, kwizigamiramo ni byiza rero, baba bari kubyamamaza.

Ikarita ya mituweli yo kwivurizaho n'igipapuro cyo kwivurizaho kizwiho nk'ifishi, uyu ni umuntu ugifashe ari kwa muganga agiye kwivuza, ntabwo nzi izina rye, ariko hano ari ni ku bitaro, ubwishingizi ni buzwiho nka mituweli, nashishikariza abantu bose kujya.

Hari icyapa kigaragaza ko aha ejo heza gifite imbaraga zo gukora bigamije isabukuru muri ejo heza, ngo bakaba bamaze ejo heza harimo ziparitse hari amazi hari abantu benshi hari ibiti.

Aba ni abantu babiri bambaye imyenda itandukanye, bipfutse ipfuko zitandukanye. Bafitemo amakarita ya mituweli ateyemo kashi bagiye kwivuza. Hano kwa bari kuhabaza ushinzwe ubwishingizi mu kwivuza.

Hari abantu benshi, bamwe baricaye abandi barahagaze bagiye musaba serivisi ahantu runaka, hari indabo, hari umuhanda, hari icyapa cya RSSB, Rwanda sosho sekiriti bodi, hari ibiti...

Indangamuntu na mituweli byanditseho nimero y'umunyamuryango, icyiciro cy'ubudehe, itariki y'amavuko, nimero y'indangamuntu, umuntu witwa Bizimungu Jean damascene, aho abarizwa Intara, Akarere, Umurenge, Akagari.

Abantu bane n'umwana wa gatanu, umwe muri bo yambaye umupira wanditseho urugerero rw'igihugu w'icyatsi uriho ibendera ry'u Rwanda, undi yambaye ishapure n'umupira w'umukara, umwana yambaye umwenda urimo umweru n'umutuku, undi yambaye umukara, undi yambaye umweru, afite ikaramu mu ntoki n'urupapuro.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya cyangwa se ibitaro, aha hariho icyapa cyanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Remera, mu etaje harimo abantu, hari umukoropesho, hari imiryango, hari amadirisha.

Ejo heza, ifasha abakecuru n'abasaza gusaza neza, iyo bizigamiye bakiri batoya, ifasha abari mu kazi kwizigamira amafaranga bazakoresha bageze mu masaziro batagishoboye gukora, azababesheho akabasazisha neza, iyi ni gahunda ya Leta kandi ni nziza.

Isoko ryiza ricuruza ibintu bisa neza bifite isuku harimo inanasi, imineke, soya, ibishyimbo, umuceri n'ibindi bintu bitandukanye hasa neza.

Abantu basa neza hari uwambaye isengeri n'ikote n'ipantaro hari ibintu ari gucuruza kuko ni mu isoko by'ubwoko butandukanye ubuki buri mu icupa.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye harimo ibiribwa, ibinyobwa, ibirungo by'ubwoko bitandukanye, harimo ubuki, harimo n'ibindi.

Isoko riri mu nyubako nziza runaka aha irimo ibice bitandukanye, ahacururizwa imbuto, ahacururizwa ibisanzwe, ahacururizwa amavuta, ahacururizwa ibyo kurya, ahacururizwa ibyo kunywa, hano bari kutwereka agace gacuruza ibintu bitandukanye, harimo mayoneze n'ibindi birungo umuntu akenera mu rugo.

Isoko ririmo abantu batandukanye, bamwe muri bo bambaye imyenda y'umuhondo, iriho icyapa cya MTN, bagiye kugura ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo amamashini, harimo amagi, imigati n'ibindi bitandukanye by'ibiribwa umuntu yakenera.

Hari isoko riri hafi y'umuhanda ririho icyapa cyanditseho ngo simba Kicukiro, hari inyubako zitandukanye hari umuhanda uri kugendamo imodoka, hari amatara ku muhanda uri kwaka ndetse n'abagenzi bari kugenda.

Hari isoko ricuruzwamo byinshi bitandukanye, harimo abantu benshi, bari kugura no kugurisha hari utwaye ibicuruzwa, birimo amavuta n'ibindi, hari abantu bambaye imyenda y'imihondo, bameze nk'abacuruza amayinite ya MTN bari gufotora.

Isoko ririmo abantu benshi abaguzi n'abagurisha, bagurisha ibibage nka varisi, amashuka afunitse neza, imyenda myinshi itandukanye, amarinete ndetse n'ibindi bintu byinshi.